Uburezi ni ingenzi niyo mpamvu muri kino gihe Leta yashyizeho gahunda y'irerero, aho abana bafite imyaka iri munsi y'itatu cyangwa hagati yayo n'itanu bajyanwa ahantu bakajya baganirizwa n'ababyeyi, bakitabwaho bagahabwa ibiryo n'igikoma kandi bagatozwa indangagaciro bitewe n'imyaka bafite.

Mu Rwanda uburezi bw'abana bato bwitaweho. Usanga akenshi, iyo bagiye kubaka amashuri bashyiramo n'intebe abana bazajya bicaraho, maze bagatega amatwi mwarimu wabo ubigisha. Bityo, akaba ari ikintu cy'ingenzi; nawe niba ufite umwana, uzajye umujyana ku ishuri maze bamwigishe.

Mu rugo mbonezamikurire ni ahantu abana bo mu kigero cyo hasi bafite hagati y'imyaka itatu n'itanu bajyanwa maze bakajya batozwa ikinyabupfura n'indangagaciro, bitabwaho n'ababyeyi, bagahabwa ibiryo, bakigishwa indirimbo ariko bakahava bafite n'ubundi bumenyi.

Urugo mbonezamikurire ni ahantu abana bajya bakigishwa amasomo agiye atandukanye, akenshi hakunda kujyanwayo abana bafite hagati y'imyaka itatu n'itandatu, iyo bagezeyo bararya bakigishwa indirimbo bagasabana bakitabwaho n'ababyeyi bakuru mbese bakababera ababyeyi.

Mu mashuri menshi mu Rwanda, cyane cyane abanza n'ayisumbuye, usanga harimo intebe umunyeshuri yicaraho, imbere hari imeza yandikiraho, ariko byose bifatanye; ku buryo iyo ushaka guterura kimwe n'ikindi ugiterurana na cyo. Ni nziza kuko ifasha abanyeshuri mu myigire yabo.

Ndi Umunyarwanda isano iduhuza, Abanyarwanda batewe ishema no kuba Abanyarwanda, bahuriye ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere, nibyo byiza kuruta kwita ku bindi bibatandukanya no kuba bajya mu macakubiri bigatuma batunga ubumwe.

Imibare ni isomo rikunda kwigishwa cyane, mu mashuri usanga hari ibitabo byagenewe kwigishizwamo imibare ndetse hari n'ibyo abanyeshuri bifasha, ik'imibare cyo mu mwaka wa gatatu kiriho amabara yiganjemo umweru, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ku ishuri abana baba bafite intebe bicaramo maze bagakora imyitozo cyangwa bagasubira mu masomo yabo asanzwe, niyo mpamvu iyo bagiye kubakorera intebe akenshi bashyiraho imeza bazajya barambikaho ikayi mu gihe bari kwandika cyangwa mu gihe bari gukora imyitozo.

Ubusitani bw'agacaca buri ahantu impande y'urugo, rusize irange ry'umweru ndetse hejuru hariho urugore rw'ubururu. Mu ibara ry'umweru handitseho inyuguti zigiye zitandukanye uhereye kuri A kugeza kiri za, hariho n'imibare myinshi uhereye kuri zeru kugeza ku icyenda.

Ahantu henshi hagiye hatandukanye iyo hagiye usanga hari ahantu baparika imodoka, cyane cyane ku bigo by'amashuri ntiwabura aho uparika, haba hari ibibuga binini, hari n'umwanya wateganyijwe ababyeyi baje gusura abana cyangwa n'abayobozi bahaje bashyiramo imodoka zabo, maze bagakora ibindi bikorwa byabazanye.

Imibare nta muntu utayitinya. Iyo bari kuyikwigisha uba wumva ikomeye kandi akenshi iyo umaze gukura ubona nta kintu izakumarira. Abana biga bakunda kuyikoramo imyitozo kuko iragora kuyifata si nk'andi masomo.

Ku ishuri harangwa nuko haba hari abana bari kwiga ndetse bambaye impuzankano zibahuza, bigatuma ubabonye wese amenya icyo bakora. Baba bambaye amajipo ya kacyi n'amashati y'ubururu bamwe na bamwe, akaba ariyo mpuzankano yabo, bitewe n'ikigo runaka bigaho.

Ku ishuri iyo abantu bagiyeyo bitwaza amakaye cyane cyane mu bikapu bihekwa mu mugongo, bakambara impuzankano, akenshi mu Rwanda abiga mu mashuri abanza n'ay'inshuke bambara amakabutura ku bahungu n'amajipo ku bakobwa ndetse n'amashati.

Mu mashuri iyo ugiyemo usangamo ibibaho abanyeshuri bandikaho cyangwa abarimu babo bandikaho mu gihe cyo kwigisha, biba bifite ibara ry'umukara kugira ngo nibandikishaho ingwa y'umweru bize kugaragara.

Uburezi ni inkingi ya mwamba mu Gihugu, kuko ni bwo bufasha mu guforoma abana, bagakura bafite ikinyabupfura, ubwenge ndetse n'ibindi bisabwa nk'indangagaciro, kugira ngo mu gihe kizaza bazabashe kugirira Igihugu akamaro.

Ku bigo byinshi by'amashuri, uhasanga amasomero. Aba arimo ibitabo by'ubwoko bwinshi, bupanze mu dutajeri, ku buryo uje ashaka igitabo atakibura. Bagenda babigerekeranya, kugira ngo haboneke umwanya uhagije wo kubikamo ibindi.

Iyo umuntu yageze ku muhigo runaka cyangwa akabasha gutsinda ibintu byo mu bwoko butandukanye, ahabwa igikombe. Niyo mpamvu usanga nko ku mashuri cyangwa ahandi hantu bafite amakipe, iyo ugiyeyo usanga mu bubiko bwabo harimo ibikombe bagiye bahabwa kuko batsinze ibintu runaka.

Kugira ngo umuntu abe ari umunyeshuri wuzuye, uba usanga afite impuzankano zimuranga. Akenshi mu mashuri abanza, abahungu bambara amakabutura, maze abakobwa bakambara amashati. Mu muhanda harimo abanyeshuri bari kugenda, bambaye amashati y'ubururu n'amajipo n'amakabutura bya kaki.

Ikikubwira ko ugeze ku kigo cy'amashuri yisumbuye ni uko wasanga abana bambaye impuzankano zisa, bikagufasha guhita umenya ko ari abanyeshuri, baba bakiri bato bari mu kigero k'imyaka yo hasi kuko amashuri abanza n'ayisumbuye ateganya ko uyigamo aba ari muto ku kigero cyo hasi.

Ubusitani buteye impande y'igikuta gisize irangi ry'umweru, gifite fondasiyo y'amabuye, hasi ku gikuta hariho agakaba k'umukara naho hejuru hariho akandi gakaba k'ubururu, mu irangi ry'umweru hashushanyijemo idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo n'icyatsi ndetse hasi yaryo ahagana imbere hari abana batatu b'abanyeshuri.

Uburezi bwateye imbere mu Rwanda, ni yo mpamvu hubatswe amashuri menshi agiye atandukanye, akenshi ku kigo cy'amashuri uhasanga ibendera ry'u Rwanda, rigizwe n'irabara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, ariko hejuru mu ibara ry'ubururu harimo izuba rifite imirasire myinshi.

Isafuriya nini ikoreshwa mu guteka cyane cyane aho batekera abantu benshi nko ku ishuri, iteretse ifite umupfundikizo, iri mu gikoni ahantu hari kugera urumuri rwinshi, ruciye mu matafari no mu twanya bagiye basiga hagati mu gikuta.

Iyo ubonye abana bato bambaye impuzankano abakobwa izisa kwabo n'abahungu izisa ukwabo, akenshi abana b'abahungu bambaye amakabutura ya kaki n'amashati ya kaki n'abakobwa bambaye cotoni, amajipo ndetse n'amashati, umenya ko ari abanyeshuri bari ku ishuri bari kwiga.

Dutsinde virusi ya marburg, iyo virusi iyo umuntu ayirwaye arangwa no guhitwa, kuruka, kuribwa mu ngingo, kubabara umutwe, kuribwa mu misaya n'ibindi, mu rwego rwo kuyirinda dukwiye gukaraba intoki kugira ngo uyikozeho ataza kuyihererekanya n'undi.

Uburezi bw'u Rwanda bwateye imbere, ku buryo iyo ugiye nko ku ishuri usanga hari n'intebe zabugenewe, ziba ziri ku murongo. Ku buryo umwana w'u Rwanda aza akabona aho yicara, ndetse izo ntebe zikaba zifite n'ameza umuntu yandikiraho. Bigafasha mu myigire y'abana, bityo ejo hazaza hazaba hameze neza ku bana b'u Rwanda.

Ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, ariyo ubururu bugize n'igice kinini cy'idarapo, umuhondo ndetse n'icyatsi, mu ibara ry'ubururu harimo izuba rifite imirasire igiye itandukanye, riri ahantu hari ubusitani ndetse riteyemo rwagati impande yabwo hari inyubako nyinshi zimeze nk'amashuri.

Mu byaro akenshi usanga hari ahantu abaturage bamena imyanda, no mu mijyi abantu bakusanya imyanda maze bakayishyira mu modoka cyangwa bakayitwara mu bundi buryo bwa rusange, bakaza bakayimena ahantu bagiye batoranya mu byaro, rimwe na rimwe baba bataracukuye ikimoteri ibyo bitera umwanda.

Ku mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, usanga haba hariyo ibikinisho abana bajyamo bakicara bakikuruza, biba byubakiye kandi hariho aho bazamukira bajya hejuru kugira ngo baze kumanuka bikuruza barye umunyenga, birabashimisha cyane niyo mpamvu ku bigo byinshi usanga barabihubatse.

Ecole Secondaire Sainte Trinite de Ruhango ni ikigo cy'amashuri kigisha amasomo atandukanye, harimo ay'icyiciro rusange ndetse ku cyapa kiyiranga, hariho inimero za telefoni ushobora guhamagara ushaka kuhagana

Ecole Autonome de Butare ni ikigo cy'amashuri yisumbuye, gifite icyapa kikiranga gisize irangi ry'umweru cyandikishijwemo n'inyuguti z'ubururu. Impande y'icyo cyapa hari umucaca ukikijwe n'indabo ndende zifite ibara ry'icyatsi.

Abanyeshuri barangwa no kwambara impuzankanobona, abo ni abiga mu mashuri yisumbuye, akenshi mu Rwanda usanga muri ayo mashuri bambara amapantaro n'amashati, akenshi y'amaboko magufi n'imipira, iyo babyambaye uhita ubona ko ari abanyeshuri.

Uburezi n ni inkingi ya mwamba. Abana b'abanyeshuri usanga bafite ikinyabupfura, bambara neza, bagatera ipas,i iyo bari ku ishuri cyangwa baganayo baba bambaye impuzankano ibaranga, akenshi iba igizwe n'amapantaro ya kaki n'amashati y'umweru.

Mu Rwanda Leta igerageza kwita ku bana b'abanyeshuri ibyo byatumye ishyiraho gahunda yo kurira ku mashuri, iyo bibaye saa sita abana baragenda bakazana ibiryo bakarira hamwe bigatuma nyuma ya saa sita babasha gukurikira amasomo yabo nta gihunga.

Icyapa kiranga iby'ikigo cy'amashuri yisumbuye kigisha, gishinze ku byuma birebire by'umweru, cyo kiriho ry'icyatsi ndetse cyanikishijweho inyuguti z'umweru, giteye mu busitani bwegeranye n'ibikuta n'uruzitiro bijya kuri icyo kigo cy'amashuri.

Abarimu akenshi usanga iyo babonye umwanya, bicara maze bagakosora imikoro baba bahaye abanyeshuri. Ameza yabo aba ariho ibitabo byifashishwa mu kwigisha n'ibindi bikoresho by'imfashanyigisho nk'amarati, ingwa n'ibindi bitandukanye, bibafasha kugira ngo babashe gusohoza inshingano zabo.

Mu mashuri menshi usanga iyo hari ikintu abayobozi bashaka kubwira abanyeshuri, bakabasohora bakagendabakabicaza hamwe, maze bakaganirizwa. Abicaye mu gacaca, imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro imwegereye n'umupi wamaboko magufi ufite imisatsi itendera mu mugongo impande ye hari indabo ndende zifite ibara ry'icyatsi n'iz'umuhondo.

Imyitozo ngororamubiri ni bimwe abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakunda gukora ndetse ugasanga hari amarushanwa abahuza, ikigo kigahura n'ikindi ariko ntibigombera ko ahora ari ibigo bibiri gusa kuko hari n'igihe abanyeshuri bambara imyenda ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri maze bakaza bagakina ubwabo batagombeye kujya mu marushanwa abahuza n'ibindi bigo.

Mu bigo by'amashuri, cyane cyane ayisumbuye iyo uhagiye usanga abana bakoranyirijwe hamwe, cyane cyane iyo hari igikorwa bashaka kubabwira, maze bagahabwa amatangazo agiye atandukanye, mu rwego rwo kugira ngo hirindwe ko hari icyo bakwangiza. Hari n'ubwo usanga ari ukubaha ibiganiro bisanzwe, maze hakifashishwa abana bagenzi babo mu kubagezaho ayo matangazo.

Ku mirongo igororotse, abahungu ndetse n'abakobwa biganjemo abambaye utuntu mu ijosi tubaranga, mu nkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bahagaze bitegereza ababari imbere bari kugira ibyo babagezaho.

Mu bigo by'amashuri cyane cyane ayisumbuye, iyo hari nk'ikintu ubuyobozi bushaka kugeza ku banyeshuri, bubakoranyiriza hamwe, bukabicaza hasi mu gacaca maze ushaka kugira ijambo atambutsa, akaza akaribwira abanyeshuri abahagaze imbere.

Mudasobwa ni kimwe mu bintu leta yitayeho, mu rwego rwo guteza imbere uburezi nyarwanda. Uba usanga mu mashuri, cyane cyane ayisumbuye zarashyizwemo, maze abanyeshuri bakajyamo, bakabwirwa na mwarimu wabo ibyo bakora, bityo bakongera ubumenyi bwabo kuri mudasobwa.

Muri iki gihe Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kurira ku mashuri. Niyo mpamvu, iyo bibaye saa sita, abanyeshuri baragenda bakazana ibiryo, bagashyira ku meza, maze bakarya. Usanga akenshi haba hari n'imbuto barenzaho nyuma yo kurya.

Ikibuga cy'umukino w'intoki uzwi nka basketball ubu usanzwe kirimo imirongo ishushanyijemo n'ibice bibiri ikipe imwe igahagarara mu gice kimwe n'indi ikajya mu kindi, usangamo kandi n'ibyuma biba biriho udukangara duto banagamo umupira iyo bari gukina.

Mu bigo by'amashuri cyane cyane ayisumbuye, usanga iyo hari ikintu ubuyobozi bushaka kugeza ku banyeshuri, bubateranyiriza hamwe bakicara hasi abandi bagahagarara maze abashaka kuganiza abo banyeshuri bagahagarara imbere cyangwa hagati yabo bakabaha ubutumwa bashaka kubagezaho.

Mu mashuri cyane cyane ayisumbuye usanga abanyeshuri bicazwa ahantu hamwe bakabwirirwa ibintu icyarimwe. Ni yo mpamvu iyo bari kumwe usanga bambaye impuzankano zibaranga kugira ngo hatagira uwitandukanya n'abandi.

Mu mashuri cyane cyane ayisumbuye, usanga haba harimo ibibaho abarimu bakoresha bandikaho. Mu masomo bigisha haba harimo n'isomo ry'ubuvanganzo cyane cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo mwarimu ari kwigisha yandika amatariki agiye kwigishirizaho ndetse akandika no ku isomo ryitwa iryo aba agiye kwigisha.

Mu Rwanda haje iterambere, niyo mpamvu hari amazu menshi y'amagorofa, hari isakaje amatafari y'ubururu ndetse ifite inkingi ndende nyinshi, iruhande rwayo hari ubusitani ndetse iri munsi y'umuhanda w'amabuye wegeranye n'akayira k'abanyamaguru.

Mu bigo by'amashuri ahenshi usanga hari ibibuga byifashishwa mu gukina imikino y'intoki. Ibyo bibuga biba bipavomwe na sima harimo ibyuma biriho inkangara umuntu anagamo umupira. Bakunda kubyubaka ahantu hakikijwe n'ubusitani kugira ngo abaje kureba iyo mikino babone aho bicara n'aho bahagarara kandi bahumeke umwuka mwiza uva muri ubwo busitani.

Ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ari yo: ubururu bugize umwanya munini w'ibendera, umuhondo ndetse n'icyatsi. Mu ibara ry'ubururu hejuru haba harimo imirasire y'izuba. Akenshi ibendera urisanga ahantu hari inyubako zikorerwamo ibintu bijyanye na Leta, nko ku biro runaka cyangwa kwa muganga.

Uburezi bwitaweho mu Rwanda, niyo mpamvu abana benshi iyo bavuye ku ishuri baba bafite imodoka zibatwara, bigatuma nta kibazo bahura na cyo mu gihe bavuye kwiga, imvura ntibanyagire kandi bakagera mu rugo amahoro nta kibazo na kimwe kibabangamiye.

Ikoranabuhanga ryateye imbere mu Rwanda, hari mudasobwa nyinshi ndetse zifashishwa mu mirimo igiye itandukanye. Ku mashuri uzisangayo abanyeshuri bakazifashisha mu myigire yabo igiye itandukanye.

Ni iki kiranga umunyeshuri? ni ukuba yambaye impuzankano ituma asa na bagenzi be, afite igikapu kirimo amakaye n'ibindi bikoresho by'ishuri kandi agendera kuri gahunda, afite isuku mbese nta mwanda umurangwaho.

Mu mashuri cyane cyane ayisumbuye uba usanga abanyeshuri bicara ku ntebe zifite ameza yazo bateze amaso mwarimu uba uri kwandika ku kibaho akoresheje ingwa. Bigatuma babasha kureba ibyo bakwiye kureba mu gihe bari kwiga.

Mu burezi ikintu k'ingenzi abantu bose bakunda kwitaho ni amashuri, akenshi ubu usanga asakaje amabati atukura, yubakishije amatafari ahiye ya mpunyu ndetse hafi y'aho ari haba hari ubusitani buteyemo ibiti, bigafasha abanyeshuri n'abarimu guhumeka umwuka mwiza.

Ecole secondaire Butare ni ikigo cy'amashuri kiri mu karere ka Huye. Gifite icyapa kikiranga giteye mu busitani burimo umucaca wegeranye n'indabo zikoze uruzitiro zifite ibara ry'icyatsi. Hejuru y'icyo cyapa hariho agaseke ndetse kuruhande hariho ibiti birebire.

Groupe Scolaire Official de Butare, ni ikigo cy'amashuri yisumbuye kigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'icyiciro rusange ariko kikagira amashami yiganjemo aya siyansi, niyo mpamvu abana benshi bigayo batsinda kubera ko bitabwaho muri iyo myigire yabo y'ayo masomo.

Iyo ugeze ahantu hari ikigo cy'amashuri urahibwira, haba hari inyubako nyinshi zigizwe n'amashuri abanyeshuri bigiramo, haba hari kandi idarapo ry'igihugu hari utwapa mu busitani turanga aho umuntu yerekeza bitewe n'icyo aje kureba.

Mu Rwanda haje gahunda yo kurira ku mashuri ku bana bose, uhereye mu mashuri abanza, ay'inshuke ndetse n'ayisumbuye. Abana barya ku ishuri kandi birabafasha kuko bituma imyigire yabo igenda neza bikabarinda ko hari icyabahungabanya cyane cyane inzara.

Ibiti bikunda guterwa hafi y'amazu kugira abayatuyemo bahumeke umwuka mwiza, birafasha cyane kuko iyo umuntu ahumetse umwuka mwiza bimworera igihe cyo kubaho, ntabwo wakubaka inzu ngo ubure gutera ibiti hafi yayo kuko bigufasha muri byinshi harimo no gukurura imvura.

Mu mashuri cyane cyane abanza n'ayisumbuye, haba harimo intebe umunyeshuri yicaraho ndetse ifatanye n'ameza yandikiraho, haba hari n'akanya bateganyije ko umunyeshuri arambikamo ikaramu igihe arangije kwandika, mu ishuri kandi haba harimo ibibaho mwarimu yandikaho cyangwa abanyeshuri bakoreraho imyitozo muri rusange.

Umuco nyarwanda ni ingenzi. Akenshi ku mashuri uhasanga hari imbyino zigenda zihabera, zikozwe n'abanyeshuri, mu rwego rwo kwidagadura ariko no mu rwego rwo guteza imbere umuco nyarwanda. Ababa babirimo uba usanga bahora bishimye, kandi igihe cyose bashatse kwidagadura akaba ari byo bakora .

Mu gitondo iyo bumaze gucya saa sita no ku mugoroba imihanda usangamo abana b'abanyeshuri bari kujya cyangwa bava ku ishuri, baba bagendera mu tuyira tw'abanyamaguru kuko bazi akamaro ko gukoresha utwo tuyira, ntibace mu mihanda kuko bishobora guteza impanuka, baba biyitayeho, baba basa neza kuko batojwe akamaro k'isuku.

Iruhande rw'ubusitani, ibiti birebire ndetse n'imibyare yeraho ibitoki, hari urugo rw'amatafari ahiye abenshi bita mpunyu, hagati harimo amadirishya arimo ibyuma bihagaze, hari igice gishushanyijeho icyapa, kiri mu ibara ry'umuhondo, cyandikishijweho amagambo y'ibara ry'ubururu.

Mu mashuri abanza, usanga haba harimo abana benshi bicaye ku ntebe zizwi nka pipitire. Ziba zifite aho bicara n'ameza imbere yazo barambikaho amakaye, amashuri kandi cyane cyane mu Rwanda, haba harimo ibibaho bifite amabara atandukanye, mwarimu yifashisha ari kwereka abanyeshuri ibyo ashaka kubigisha.

Group Scolaire Sainte Bernadette ni ikigo cy'amashuri kigisha amasomo agiye atandukanye. Kibamo cyane abihaye Imana, usanga ari bo bayobora gahunda nyinshi zigiye zitandukanye. Gifite inyubako nziza zisize amarangi akiri mashya.

Umuhanda wa kaburimbo wifitemo akayira k'abanyamaguru ku ruhande ndetse n'aho amagare anyura hagati ku ruhande hagiye haba hari ubusitani bukikije umuhanda, hari kandi na borudire zisize ibara ry'umweru n'umukara.

Kaminuza y'u Rwanda ifite ishami i Huye, higishirizwa amasomo agiye atandukanye. Iyo ugeze ku muryango uhasanga icyapa kigaragaza ko ariho ugeze, handitseho ko ari kaminuza y'u Rwanda ndetse aho ari ku ishami rya Huye.

Inyubako zisakaje amabati atukura, zisize amarange, zigeretse, ziri ahantu hafi y'ishyamba rirerire, ubona ko rifite ibiti byiza. Nta kabuza, abantu bahatuye babasha kubona umwuka mwiza uturuka muri iryo shyamba.

Mu byumba by'abantu benshi uba usanga harimo agakoresho kifashishwa bakaraba mu ntoki kaba kariho umugezi bafungura maze bakoka mu ntoki cyangwa mu maso, harimo utubati babikamo imyenda, ibitanda bigerekeranyije bararamo iyo ari icyumba usanga gihuriweho n'abantu benshi.

Abanyeshuri benshi cyane cyane abo muri za kaminuza usanga baba bafite mudasobwa bigiraho. Mu masaha ya nimugoroba cyangwa mu ijoro ufite ubushake aranyaruka agasubira mu ishuri maze akisubirishamo amasomo bityo bikamufasha gutsinda.

Mu mashuri usanga harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye harimo nk'intebe zo kwicaraho, utubati two kubikamo ibitabo ndetse n'ibindi byifashishwa n'abanyeshuri n'abarimu, haba harimo kandi amatara manini yaka cyane ku buryo iyo umuntu ari muri iyo nyubako nijoro abasha gusoma.

Mu busitani burimo ubwatsi bukiri buto, harimo ibyuma biriho imigozi abantu batuye aho hafi bahanikamo imyenda kugira ngo yume mbese hagerwa n'izuba ryinshi rihagije, impande y'ubwo busitani hari indabyo zitewe kugira ngo zikikize ubwo busitani bitume busa neza.

Mu nsengero usanga hari amakorari agiye atandukanye aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana no kuyiramya. Barahagarara bagafata mu ntoki ibitabo birimo indirimbo bize maze bakaririmba bagamije guhuriza hamwe amajwi yabo, bityo bagasohora urujyano rw'amajwi ashimishije.

Mu cyumba gisizemo amarangi y'umuhondo, gifite amatara hejuru kigaragara nk'ishuri ryo muri kaminuza, hateyemo intebe ndetse n'ameza ku buryo umuntu uzicayeho abashaka kubona uburyo yandika, iyo nzu ifite ibirahure bireberana binini kandi ifite n'ikibaho imbere n'akuma kifashishwa mu gushyira amashusho ku bikuta.

Mu isomero ni ahantu ujya ukabonamo ibitabo hakaba hari n'intebe uri gusoma yicaraho kugira ngo arebe kandi anonosore ko ibyo yaje gushaka icyo gitabo afashe birimo, niyo mpamvu muri za kaminuza ahenshi usanga harimo utubariti n'udutajeri tuba turimo ibitabo byinshi n'intebe abasoma bicaramo.

Inyubako y'igorofa, ifite ibirahure mu madirishya ndetse yubakishije amatafari ya mpunyu bakoteye, hari igice giteye irangi cyane cyane hejuru y'amadirishya, hasi hari amapave ndetse n'ubusitani.

Ku kabati kagufi, gafite ibyumba bigiye bitandukanye ndetse n'umuryango, harabitseho ivarisi n'inkweto z'umweru. Inkuta ako kabati gateretsemo, zisize irangi ry'ubururu ndetse zifite isuku. Hari aho umuntu aryama, ndetse n'aho acananira itara.

Ameza ni ahantu abantu barambika amakaye, amakaramu, ibikapu bafite n'ibindi bigiye bitandukanye, yifashishwa cyane cyane iyo umuntu ashaka kwandika kuko ntaba adigadiga, bikamufasha kwandika ibyo ashaka kwandika neza.

Zeru makumyabiri na kane, ora zeru kabiri, ni imibare iri ku rugi, ufite imiryango ifungurirwa ahantu habiri, hafungishwa iserire, imbere urebeye mu birahuri biri muri urwo rugi harimo intebe.

Kugira ngo uburezi bwo mu Rwanda butezwe imbere buri rwego rugenda rureberera ibijyanye nabwo, rugomba gufata amahugurwa kugira ngo rubashe kubunoza. Ni yo mpamvu akenshi inzego z'uburezi zitumirwa zikajya mu nama zigahugurwa ndetse zigahabwa amakuru y'ukuntu uburezi bwakwitabwaho.

Muri kaminuza y'u Rwanda habamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo n'amazu agendanye n'igihe, utuyira dupavomye kandi tumeze neza, bigafasha mu kurwanya umwanda, amazu ndetse n'ibigega by'amazi. Haba harimo abantu benshi biganjemo abanyeshuri, bahumeka umwuka mwiza bitewe n'ibiti biteye muri iyo kaminuza.

Ishyamba ni ikintu cyingenzi buri muturage wese yakitayeho kuko amashyamba akurura imvura kandi atuma abantu bahumeka umwuka mwiza kuko akamaro kayo harimo no kuyungurura umwuka, impande y'ishyamba rinini hari imodoka iparitse impande y'inzu zubakishije amatafari ahiye.

Akenshi ahantu haba hari abantu ndetse n'urujya n'uruza nko muri za kaminuza n'ahandi, ubu usanga harimo ubusitani bwinshi butuma abantu bahegereye n'abahatuye bahumeka umwuka mwiza bityo bakabasha gutekereza.

Ubwiherero ni ahantu umuntu ajya iyo ageze muri Kaminuza y'u Rwanda maze akabasha kwiherera, haba hari amatara ndetse n'icyapa kigaragaza ko ari ho biherera koko kugira ngo uje atayoba.

Mu mashuri cyane cyane aya za kaminuza mu Rwanda, haba harimo intebe zibumbwa iyo urangije kuyicaraho ugahaguruka iriyegura. Haba harimo kandi amadirishya meza ariho amarido afasha kugira ngo urumuri rwo hanze rutabangamira abari mu ishuri.

Hagati y'udutajeri tubiri ak'ubururu n'akajya gusa umutuku harimo ameza akikijwe n'intebe esheshatu zifite ibara ry'ubururu, umuntu uje gusoma igitabo ni ho yicara cyangwa akaba areba icyo ashaka gutira kugira ngo aricyo yaka.

Inzu y'igorofa ifite ubudaraza buyizamukaho bw'ibyuma ndetse ku mpande hariho utudirishya duto, hari impombo zisohora amazi mu nzu n'imyanda kandi impande y'ubudaraza buzamuka hejuru hari amapave akikije inzu.

Mu mashuri menshi cyane cyane aya kaminuza, usanga harimo abantu bakuze baje kwiga. Si aho gusa kandi, kuko n'iyo hari amahugurwa ari kuba, uba usanga abantu bakuru biyubashye bafite za mudasobwa imbere yabo, bicaye ku ntebe zifite ameza, bateze amatwi umuntu uri kubaganiriza, ari imbere yabo.

Mu Rwanda ibijyanye n'ibikorwa remezo byitaweho niyo mpamvu ku mihanda n'ahandi hegereye ingo z'abaturage uhasanga amatara y'amashanyarazi abasha kumurikira abantu mu gihe cy'ijoro, hari kandi ibindi bigiye bitandukanyekanya nk'ibiti n'amazu yubatswe mu buryo bwa kijyambere n'imihanda igezweho.

Mu Rwanda ikoranabuhanga ryateye imbere, niyo mpamvu usanga abayobozi benshi bafite mudasobwa bifashisha mu kazi kabo, iyo bahuriye hamwe bari nko mu nama cyangwa hari ikindi cyabateranyije barazizana maze bakajya bandikamo ibyo bakeneye gufata mu mutwe cyangwa kuzifashisha mu gihe kizaza.

Amasomero menshi iyo ugiyemo usanga harimo utajeri babikamo ibitabo, ku buryo iyo uhageze ubona icyo wifuzaga bitabanje kukugora. Haranditse ngo soma, ugaruke, wongere ugaruke, bivuge ngo iyo uje ugafata igitabo ukagisoma birakuryohera ukazagaruka inshuro nyinshi.

Mu cyumba kirimo ibitanda bibiri, bishasheho amashuka asa, ndetse bifite n'imisego ibiri, hari urugi rufungishwa iserire n'ikivero hasi, ndetse iruhande rw'urwo rugi hateretse imeza n'intebe, umuntu yicaraho mu gihe ari gukora ikintu runaka.

Mu Rwanda hari iterambere rihambaye ku buryo hari inyubako z'amataje cyangwa amagorofa abantu benshi biyubakiye ku giti cyabo, hari ndende ifite amagorofa menshi, isize iringe ritareberana cyane, zifite ibirahure ndetse impande yayo hari ubusitani n'utuyira tw'abanyamaguru turimo amapave.

Kubera iterambere ryaje mu Rwanda, usanga abantu benshi bazi gukoresha mudasobwa. Iyo bagiye mu nama cyangwa bari mu bindi bintu bijyanye n'uburezi, uba usanga bazitwaje kugira ngo nihagira icyo bababwira baze kugishashakamo. Mu bizamini, abanyeshuri barazifashisha mu myigire yabo ndetse niyo hari umukoro babahaye wo gukora, barazifashisha.

Itara rirerire riteye iruhande rw'akayira kazamuka kanyurwaho n'abantu n'iruhande rw'ubusitani buteyemo ururabo ndetse bugizwe n'utwatsi tw'umucaca, hepfo y'iryo tara hari ibiti bituma abantu baca aho ngaho n'abahegera babona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ikoranabuhanga mu Rwanda ryateye imbere, niyo mpamvu ahantu hose ugiye usanga abantu bazi gukoresha mudasobwa, hari ahantu ugenda ukicara ukahasanga interinete, kandi hakaba hari umutuzo ku buryo gukoresha mudasobwa yawe bitakugora.

Mu byumba by'abantu benshi usanga iyo babyutse basasa maze hakamera neza. Icyumba iyo gishashe ukacyinjiramo ubona gifite isura nziza kandi ukabona kigaragara neza.

Uruzitiro rwiza bigaragara ko rwitaweho, ruri impande y'inyubako ifite ubusitani bwinshi, ndetse hafi y'izo nyubako, hanitse n'imyenda myinshi, bigaragara ko aho hantu hatuwe n'abantu benshi.

Muri kino gihe uburezi bwitaweho, niyo mpamvu usanga amashuri asigaye yigishirizwamo aba ateye imbere, hakaba harimo ibishushanyo bigezweho ndetse mu kwiga hasigaye hifashishwa ibibaho byabugenewe kandi by'ikoranabuhanga.

Mu mashuri cyane cyane mu Rwanda usangamo ibibaho, ameza aterekwaho ibintu ndetse n'aho bakorera ubushakashatsi abanyeshuri baba biga amasomo runaka, utubati tuba dukoze mu mbaho zikomeye ku buryo tudasaza vuba.

Muri kaminuza y'u Rwanda hariyo aho abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuganga bigira, hakaba raboratwari ijyanye n'ibintu bya anatomi. Iyo winjiye aho bikorera, uhasanga utwapa turanga aho iyo raboratwari iri. Ndetse impande y'akapa kamwe handitse n'akandi kerekana ahari ubwiherero.

Ahantu hahurira abantu benshi cyane cyane nko mu bigo by'amashuri, nka za kaminuza uhasanga ibibuga by'imikino igiye itandukanye, ahenshi haba kandi hateye ibiti bituma abanyeshuri n'abandi bahagenda bahumeka umwuka mwiza.

Mu mashuri menshi cyane cyane aya kaminuza, usanga haba harimo ibibaho byomekwa ku bikuta, bakabyandikaho igihe abanyeshuri bari kwiga, haba harimo n'intebe kandi zifite aho umuntu yicara n'aho yandikira, bikamufasha mu myigire ye.

Mu madirishya menshi ahantu hagiye hatandukanye usanga harimo ibitambaro abenshi bita amarido, bituma iyo uri gukora ikintu uri mu nzu uri hanze atabasha kubareba ndetse n'urumuri iyo ucanye itara ntago rusohoka hanze mu gihe cy'ijoro, ako ni akamaro k'amarido.

Mu mashuri ya za kaminuza cyane cyane muri kaminuza y'u Rwanda abantu baba barimo benshi usanga bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga na mudasobwa, abatazifite baba bakoresha amatelefone, nta muntu wasangamo uba utazi gukoresha ibi bikoresho.

IPRC Huye ni ishami ry'amakaminuza yigisha ubumenyigiro n'imyuga rya Leta, riri mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ku muhanda uva ku isoko ry'Akarere, ujya ku bitaro bya kaminuza bya CHUB.

Ikoranabuhanga ryaraje, niyo mpamvu usanga ahantu hakorerwa ubushakashatsi ndetse higishirizwa abanyeshuri haba harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, harimo nka za mudasobwa n'igikoresho cyifashishwa mu kureba uturemangingo duto tutagaragarira amaso.

Mu ishuri rya kaminuza haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu myigire, hari ekara nini cyane y'umukara, yegeranye n'ikibaho, irimo ameza n'intebe, abari kureba kuri iyo ekara baba bicayeho, ndetse iri ku gikuta gisize irange ry'umuhondo.